Isosiyete y'ubwishingizi iri kwamamaza ibikorwa byayo ikoresheje ifoto, ikaba iriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza ibikorwa byayo, ndetse no ku ruhande rw'iburyo hariho umugabo wica n'umugore we, iruhande hari umwana uhagaze ndetse bose bakaba bakikijwe n'amakarito.

Icyapa kirekire gifashwe n'icyuma gisize ibara ry'icyatsi, kikaba gisize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku cyanditsweho amazina y'umuntu uri kugaragaraho wambaye ikote, ndetse impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse na nimero za telefone.

Ibyuma bihagaze by'umukara bifashe icyapa cy'impandeenye gisize ibara ry'umutuku, kikaba kiri kugaragaraho umwana wambaye ingofero akaba afite inkoni mu maboko yombi afatishije iruhande rw'ibumoso hari amagambogambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na nimero za telefone.

Icyuma kinini gisize ibara ry'ikigina, kikaba gifashe icyapa cy'impande enye, gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yamamaza isosiyete y'ubwishingizi ndetse ikaba iriho umugabo n'umugore bahoberanye.

Icyuma gifashe icyapa kinini gisize ibara ry'umweru cy'impande enye, kikaba cyanditseho izina ry'isosiyete y'ubwishingizi, ndetse ikaba kugaragaraho imodoka yagonze isize ibara ry'umutuku, ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ishusho y'umweru ndetse n'ubururu ikaba iri kwamamaza ubwishingizi ikaba iri kugaragaraho umugabo wambaye ikoti afite telefone mu kuboko kw'ibumoso bwe, munsi ye hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati ''kuki ukwiriye kutwizera mu gihe ukeneye ubwishingizi''.

Icyuma gifashe icyapa cy'impande enye, gisize ibara ry'umweru ndetse n'umukara kikaba cyanditsweho amagambo ari murimi rw'Icyongereza ndetse n'izina ry'isosiyete y'ubwishingizi n'amazina y'umugabo uri kugaragara wambaye ikote ry'ubururu.

Ipoto rinini ry'icyuma ryashyizweho icyapa cy'impande enye, kiri mu ishusho y'umweru, cyanditsweho mu magambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umukara ndetse munsi hakaba hariho ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda wa kaburimbo y'amabara y'ikigirana ndetse n'umweru.

Isosiyete iri kwamamaza ibikorwa byayo, ikaba iri kwerekana ifoto iriho umukobwa wambaye ingofero yabugenewe yo kubakisha, imbere ye hari amagambo y'ikinyarwanda agira ati “Gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo”.

Ekara ya telefone iri kugaragaraho isaha i saa tanu na mirongo itanu'itanu, ikaba iri mu ishusho y'umweru, iri kugaragaza Apulikasiyo ya telefoni yafunguwe ya banki, iri kugaragaza uburyo bwinshi butandukanye bwo kohereza amafaranga ndetse no kwakira amafaranga.

Ekara ya telefone iri kugaragaraho, isaha y'i saa tanu na mirongo itanu n' irindwi, ikaba iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, iri kwerekana apulikasiyo yafunguwe, iri kugaragaza uburyo bwo gukoresha wishyura, waka inguzanyo, ndetse n'izindi serivisi ushobora kubona.

Ekara ya telefone iri mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru, iri kugaragaza uburyo bune bwo koherezamo amafaranga, ari kuri konti yanjye, kohereza kuri konti ya zigama, momo, ndetse no kohereza kuri konti z'andi ma banki.

Ekara ya terefone iri kugaragaraho isaha y' i saa saba y'iminota makumya n'ibiri, munsi hakaba hari kugaragaraho nimero za terefone ndetse n'amafaranga y'u Rwanda magana atandatu ndetse hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza uburyo bukoreshwa hishyurwa amafaranga.

Ekara ya telefone iriho isaha y'isaa saba na mirongo ine n'ine, hakaba hariho umuntu witwa Hubert wafunguye apurikasiyo ya Banki ya Equity, akaba agiye kwishyura amafaranga, ndetse n'akanya kashyizweho kugira ngo amafaranga runaka abashe kwiyandikamo, ndetse n'impamvu agiye gukora iyi serivisi.

Abagore babiri bahagararanye; imbere yabo hari mudasobwa imwe isize ibara ry'umukara bari kureberaho, iteretse kuk'ameza impande hariho impapuro ndetse n'inyuma yabo hari imyenda yamanitswe isize ibara ry'igitaka ndetse n'undi mupira umwe w'amaboko magufi usize ibara ry'ubururu.

Umugore uhagaze ari kumwenyura, akaba afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo bwe ari kwandikisha ku gapapuro k'umweru, yateretse ku kameza kashyizweho akuma kabara ndetse na mudasobwa isize ibara ry'umukara, impande hariho ibitenge byinshi ari kugurisha.

Umugabo uhagaze imbere y'akameza kateretsweho mudasobwa ndetse n'imyenda akaba ari kwakira telefone y'umukiriya we uhagaze impande afite agafuka gasize ibara ry'ikigina iruhande hari urukuta rusize ibara ry'iroze ndetse n'umweru.

Ekara ya telefone iri kugaragaraho isaha i saa saba na makumya biri n'ine ikaba iri kwerekana ifoto yafashwe yo kugaragaza imyenda yamanitswe ku rukuta rusize ibara ry'umuhondo, ndetse n'indi yashyizwe ku cyuma gisize ibara ry'umukara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Inzu y'amagorofa menshi igizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta zisize ibara ry'ikigina, ikaba iri hafi y'imodoka y'umweru iparitse, ikaba iri kugurishwa miliyoni cumi n'ebyiri, hejuru hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agaragaza ko yakozwe bibiri na cumi na kane.

Igikamyo gisize ibara ry'umweru. Ubu nta muzigo gihetse, giparitse mu kabaraza k'inzu kagizwe n'amatafari y'ikigina. Imbere hariho abagabo babiri bahagaze, mo hagati yabo harimo umugore. Bose bakaba bafite icyapa gisize ibara ry'umweru kiri mu ishusho y'urufunguzo, kigaragaza ko ari sosiyete y'Akagera icuruza ibinyabiziga.

Abagabo babiri bahagaze bafashe akapa gasize ibara ry'umweru kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza impande yabo hariho ikamyo isize ibara ry'umweru inyuma hari inzu igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ikigina hejuru yaho hari icyapa gisize ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo uhagaze hafi y'inzu y'amagorofa menshi igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ikigina, akaba afite icyapa kiri mu ishusho y'urufunguzo kikaba kigaragaza isosiyete y'Akagera icuruza ibinyabiziga, iruhande hakaba hariho igikamyo gito gisize ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze bafashe icyapa gisize ibara ry'umweru kiririmo ishusho y'urufunguzo, kikaba kiriho amagambo ari murimi rw'Icyongereza ndetse n'izina ry'isosiyete icuruza ibinyabiziga ikaba yitwa akagera, iruhande rwawo hakaba hari imodoka isize ibara ry'ikigina yaparitswe.

Mu ijoro, abagabo babiri bahagararanye, bakaba bafite icyapa kiri mu ishusho y'urufunguzo gisize ibara ry'umweru; kikaba cyanditseho isosiyete y'Akagera icuruza ibinyabiziga, inyuma yabo hari imodoka isize ibara ry'umukara yacanye amatara.

Urupangu rukoze mu cyuma rwafunguwe, imbere hari akabaza gakozwe mu matafari y'ikigina, ndetse impande yako hari inzu isize ibara ry'umukara ndetse n'iroza ikorerwamo ubucuruzi bw'imodoka, iruhande hariho idarapo risize ibara ry'ubururu ndetse n'imodoka ziparitse.

Abakobwa babiri bahagaze bakaba bambaye agapfukamunwa mu mupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ry'ubururu zisa, hagati yabo hari imodoka yafunguye imiryango nabo isize ibara ry'umukara ndetse ikaba yacanwe amatara imbere.

Abagabo babiri bahagararanye bose bakaba bafite akapa mu ntoki zabo kari mu ishusho y'urufunguzo, kakaba gasize ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, kanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, agaragaza ko ari isosiyete y'Akagera icuruza ibinyabiziga, impande yabo hakaba hariho imodoka isize ibara ry'umukara.

Umugore uhagaze hagati y'abagabo babiri, bakaba bose bafite ikarita y'umweru yanditseho izina rya banki ndetse n'isosiyete icuruza ibinyabiziga, hakaba hashushanyijeho imodoka z'ubwoko bwose zicuruzwa z'umweruru ndetse n'umukara.

Abagabo babiri bahagaze bafashe akapa karirimo ishusho y'urufunguzo gasize ibara ry'umweru, kakaba kandiditseho Akagera ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, impande yabo hari imodoka iparitse isize ibara ry'ikigina.

Abagabo babiri bahagararanye hejuru y'agahanda k'igitaka, bakaba bafite icyapa mu ntoki zabo kiri mu ishusho y'urufunguzo, kikaba cyanditseho izina ry'isosiyete icuruza ibinyabiziga ndetse bakaba bari impande y'ibikamyo bibiri, kimwe gisize ibara ry'icyatsi n'ikindi gisize iba baragi ry'icunga.

Igipangu gikozwe mu cyuma, kikaba kirimo amazu manini asize ibara ry'umutuku, umuhondo, ndetse akaba akomera mu matafari atukura, ku kabaraza hariho imodoka ziparitse ndetse n'ibyapa bitatu bisize amabara atandukanye harimo ubururu ndetse n'umweru.

Igiceri gisize ibara ry'umuhondo, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa, agaragaza ko cyakozwe na banki nkuru yu Rwanda, mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo irindwi na karindwi, ndetse kikaba gishushanyijeho igiti gifite amashami ndetse n'utubuto.

Ibiceri bibiri byatetswe ku meza bikaba bisize amabara atandukanye, kimwe gisize ibara ry'umuhondo, ikindi kikaba gisize ibara ry'ikigina, byanditseho ko byakozwe na Banki nkuru y'u Rwanda muri bibiri n'icyenda, bikaba bishushanyijweho ibiribwa bitandukanye by'ibiti.

Iduka rihagazwemo n'umugabo imbere ye hari akabati gasize irange ry'umweru, kateretswemo utujerekani, ibicupa birimo amazi, ndetse n'ibindi birimo imitobe, hagati harimo ibisuguti biri mu mashashi.

Agatebo gasize ibara ry'umutuku, gajugunywamo imyanda, kari munsi ya'akameza k'umweru, kateretsweho imineke, iruhande hariho akadobo karimo amagi, akandi karimo capati, ndetse n'akanyuma karimo amandazi yo kurya kuruhande hariho agakombe karimo ubuki.

Icyuma gikonjesha kiri mu iduka kikaba cyashyizweho icyapa, gisize ibara ry'ubururu, cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, agaragaza izina rya Mukamira ndetse ko amata ari ubuzima, ku ruhande hariho umugabo uhagaze wambaye umupira wumukara.

Ikiganza cy'umuntu cyafatishije capati, agatambaro k'umweru gakoreshwa rimwe, imbere ye hari akameza k'umweru. kateretsweho ikirahure ndetse n'isahani, impande hari akabati gakozwe mu mbaho ndetse kakaba kagizwe n'ibirahuri.

icyumba cy'inzu gihagazwemo n'umukobwa uhetse agakapu k'umukara, akaba afite telefone mu biganza bibiri byombi impande hari akameza gakozwe mu byuma gasize ibara ry'umukara ku ruhande hariyo intebe yo kwicaraho ikozwe mu mbaho ndetse n'ikigega gisize ibara ry'ikigina kirimo amata.

Iduka rikorerwamo ubucuruzi rikaba ririmo umugore uhagaze imbere y'akabati gasize ibara ry'umweru kateretswemo indobo zirimo ibyokurya bitandukanye ndetse n'udupapuro two kwihanaguza iruhande rwe hariho icyuma gikonjesha.

Amarembo y'amaduka abiri yegeranye, akaba acuruza ibinyobwa bitandukanye, hejuru ku mabati hariho icyapa gisize ibara ry'umweru cy'impande enye, kikaba kigaragaza igicuruzwa cy'amata, ndetse kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, n'ikimenyetso cya sosiyete itanga iyo serivisi.

Umusore wambaye amadarubindi ndetse n'ingofero, ahagararanye n'undi, bakaba bafite telefoni zisa zikaba zirkugaragaraho ekara iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, bari gukanda imibare ndetse bakaba bari mu nzu y'amagorofa menshi.

Icyapa gisize ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda agaragaza ko ari Banki ya Kigali, munsi y'aho hari icyapa kigaragaza ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga ndetse na nimero za telefoni.

Inzu y'amagorofa arenze abiri, ikaba isize ibara ry'umukara ku nkuta zazo, iduka rikaba riri ku igorofa rya mbere rikaba rifite icyapa gisize ibara ry'ubururu cy'impande enye, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, rikaba riberamo ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga.

Inzu yafunguye imiryango y'ibyuma ikaba iberamo serivisi yo kuvunjishirizwamo amafaranga hejuru y'iyo miryango hariho icyapa gisize irangi ry'icyatsi cyanditswe amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse bikaba bikorerwa Remera.

Ikiganza cy'umuntu gifashe inoti enye z'amadolari, zikaba zigizwe n'ibara ry'ikigina ndetsse zishushanyijeho umugabo, inyuma hariho umucuruzi ukora mu by'ivunjisha, ari kuyakira ndetse hagati yabo harimo ikirahure.

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Inzu igizwe n'igisenge kirimo amatara menshi yaka ndetse n'inkuta yateretsweho televiziyo akabati karimo ibikoresho bitandukanye ndetse na rido zisize ibara ry'ikigina, impande hari akameza ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Uburiri bwashyizweho amashuka y'umweru ndetse n'imisogo, impande hari utubati dukozwe mu mbaho, twateretsweho amatara, mu cyumba kigizwe n'igikuta gisize ibara ry'icunga, ndetse n'amarido asize ibara ry'umweru n'intebe zo kwicaraho ziri hafi yaho.

Icyumba k'inzu cya hoteli cyakirirwamo abantu kikaba kiriho abakobwa babiri bahagaze imbere y'akameza gakozwe mu mbaho, kariho ishusho ya mpande enye isize ibara ry'ubutuku ndetse ikaba iri mu kasanduku gasize ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'inkuta z'ubururu kikaba cyashyizwemo ibiro birimo umugabo ukora mu isosiyete y'ubwishingizi, imbere ye hakaba hariho mudasobwa ndetse n'impapuro, ku ruhande rwe hariho umugabo ufite agakombe mu ntoki ari kunywa fanta.

Inzu y'amagorofa menshi, ikaba ifite inkuka zisize ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hasi ku igorofa rya mbere hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'ubururu, cyamamaza isosiyete y'ubwishingizi, imbere ku kabaraza hariho imodoka z'amabara atandukanye zihaparitse.

Inzu y'amagorofa menshi ikaba igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ikigina ndetse n'icyuma kikaba cyarateretsweho impande yabyo, cyashyizweho icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru, kiriho izina ry'isosiyete ry'ubwishingizi ndetse kikaba handitsweho na nimero za telefone zishobora guhamagarwa.

Inzu y'amagorofa menshi igizwe n'ibirahure byinshi byegeranye ndetse n'inkuta zisize ibara ry'icunga n'umukara, ikaba yashyizweho icyapa gisize ibara ry'umweru cyanditseho izina ry'isosite y'ubwishingizi, munsi yaho hari ikindi cyapa gisize ibara ry'ubururu cyanditsweho izina rya banki.

Imodoka ebyiri imwe isize irangi ry'umweru indi isiza ibara ry'ikigina, ikaba biri impande umuhanda wa kaburimbo, ukaba uri kugendwaho n'umuntu ku ruhande ufite indobo mu ntoki ze isize ibara ry'icunga ndetse n'abandi babiri bari impande y'ipoto yateretsweho amashanyarazi.

Icyumba cy'inzu gifite igisenge cyateretswemo amatara menshi atanga urumuri ndetse ku rukuta hashyizweho amafoto y'abantu batandukanye ndetse hakaba ryarashyizweho irangi ry'umutuku n'umweru, iruhande hari intebe zo kwicaro ndetse n'akameza ko kwakiriraho abantu.

Amapoto abiri ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo, rimwe rikaba rigizwe n'amatara atanga uburenganzira bwo kugenda ku binyabiziga n'irindi rirerire ritanga urumuri mu muhanda, ku ruhande hariho inzu y'amagorofa menshi igizwe n'inkuta zisize ibara ry'icunga ndetse n'ibirahure byashyizweho icyapa.

Inzu y'amagorofa menshi ikaba igizwe n'ibyuma ndetse n'inkuta zisize ibara ry'icunga, ikaba ifite icyapa gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo yanditsweho mu magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda agaragaza ko ari isosiyete ikorera i Musanze.

Inzu y'amagorofa menshi ikaba igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ikigina, ku ruhande rw'ibumoso hariyo akayira bazamukiraho impande hariho utwuma ndetse iburyo hariho ibaraza ry'iyo nzu, ikaba ifite icyapa imbere yaho gisize ibara ry'umweru, kikaba kigaragaza izina ry'isosiyete ry'ubwishingizi.

Icyapa kinini cy'impande enye, kikaba gisize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba gifashe hagati y'amagorofa abiri y'inzu, kikaba cyanditsweho izina ry'isosiyete ya Banki itanga inguzanyo, ikaba iherereye Kimironko.

Abakobwa batanu bahagaze imbere y'imodoka isize irangi ry'umukara, bambaye igitenge gisize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, inyuma yabo hariho inzu y'igorofa rya mbere rikaba rigizwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'icyapa cy'impande enye, cyanditseho amagambo UNGUKA.

Ikigo cya banki cya kigali kiri kwamamaza igitaramo kizabera muri Arena aho kwinjira azaba ari ibihumbi mirongo itanu ikaba ifite ishusho iri kugaragaro abahanzi bagiye batandukanye ndetse ha bakaba handitswe amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza munsi yaho.

Inzu y'amagorofa menshi igizwe n'inzugi z'umukara ndetse n'ikigina, ikaba ifite ibyapa bibiri bisa byatatse ku nkuta bisize ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, bikaba byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza isosiyete ihakorera ndetse n'ibiro by'ishami by'aha hantu biba ariho Remera.

Eko banki iri kwamamaza uburyo bwayo bwo guhabwa serivise, aho ku gishushanyo hariho umukobwa ufite ikarita mu ntoki, ari kuyinjiza mu cyuma gisize ibara ry'ikigina, iruhande rwe hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwaho n'abamotari benshi, iruhande hariyo akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'abantu benshi cyane ndetse n'imodoka z'umweru arizo zihaparitse, ku ruhande hari inzu y'amagorofa ane isize ibara ry'iroza ku nkuta zayo.

Abagore babiri bari mu isoko bicaye hafi y'akameza kashyizweho ishashi y'ikigina, hakaba hateretsweho intoryi, ibitunguru, inyanya, karoti, ibishyimbo, ndetse n'ibindi biribwa byinshi birimo muri iryo soko.

Isoko rigizwe n'amabati ndetse n'ibyuma biyafashe rikaba cyashyizweho icyapa gisize ibara ry'umuhondo kiriho imibare ishyirwa muri telefoni kugira ngo umuntu abashe kwishyura, harimo umuntu ufite inyanya ndetse n'indimu n'ibitunguru akaba ari kubicuruza.

Abagore bicaye ku murongo bitwikiriye imitaka, ndetse bakaba bambaye ibitenge, bakaba bakikijwe n'ibiribwa byo kurya, harimo inyanya, amashu, karoti, indimu ndetse n'ibindi bicuruzwa bishobora kuboneka mu isoko, imbere ya bo hari abakiriya baje kubigura.

Umugore w'umucuruzi uri kwakira umukiriya we uri imbere, wambaye agapira k'ubururu, iruhande rw'iburyo hariho imbuto nyinshi zitandukanye, harimo imineke, pome, inanasi, ndetse na wotameroni.

Umumotari utwaye umugenzi kuri moto, bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo, kuruhande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kaparitsweho imodoka z'amoko atandukanye ndetse hariho n'iduka rifite icyapa cy'icyatsi cyanditseho Ishema.

Umucuruzi wiyerekeje wibasisize ibara ry'ubururu, ikaba iririmo mu mashaza byateretse kuko kuko ameza kakozwe mu mbaho, y'amatafari y'ikigina impande i hari imifuka irimo amafu ndetse n'utundi tubase turimo imineke n'inyanya n'ibishyimbo.

Ibiro birimo umucuruzi ukora muri sosiyete y'itumanaho, akaba yambaye umupira w'umuhondo imbere ye hari akameza gateretsweho mudasobwa, impapuro ndetse n'utwapa dutoya n'umukiriya ari impande ye, yambaye agapira k'umukara ndetse n'umutuku.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo ahagararanye n'umugabo ufite icyuma gisohora esanse, akaba yagishyize kuri moto iriho umumotari wambaye kasike y'umukara, impande yabo hakaba hariho akapa kashyizwe hejuru, kagaragaza uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe momo.

Umusore uri mu kazu k'icyuma gasize ibara ry'umuhondo, kafunguye amadirishya, akaba afite ikaramu isize ibara ry'ubururu, ari kwandikisha mu mpapuro z'umweru ziri mu ikaye ndetse akaba ari kwakira amafaranga ari guhabwa n'umukobwa uri impande ye.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ari kugendera ku igare rye ry'umukara, inyuma ye hariho umuntu wicaye imbere yakameza kateretsweho umutaka usize ibara ry'umuhondo ndetse wanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'izina ry'isosiyete rikora mu bijyanye n'itumanaho rya terefone.

Abasore batatu bahagararanye, bambaye ingofero z'umukara ndetse n'imipira y'imihondo bisa, impande hariho icyapa cy'uruziga gishushanyijeho imigozi, udukomo, udusengeri ndetse n'amakarita.

Ikiganza cy'umuntu gifashe akapa k'uruziga kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati ishyurana na momo aho ukanda imibare yerekanwe kugira ngo wishyure ndetse akaba nta yandi mafaranga yishyuzwa.

Umutaka w'umuhondo ufashwe n'ibyuma byinshi bifashe ku kameza gasize ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, kateretsweho imipira ndetse n'amacupa banyweramo amazi, kakaba karimo abakobwa babiri bari gutanga iyo serivisi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe telefone y'amabuto, ikaba ifite ekara y'ubururu, iri kugaragaraho amagambo ari murimi rw'ikinyarwanda, agaragaza ko agiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri magana atanu, kuri Jean bosco kandi nta kiguzi, akaba ari kubirebera ku cyapa kiri imbere gisize ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara akaba ari kwitaba telefone yicaye hejuru y'ikinyabiziga cye cya moto, impande hariho umukobwa uhagararanye nawe akaba yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agakapu gasize ibara ry'ikigina afite telefone ebyiri mu kuboko kw'ibumoso bwe.

Isoko rigizwe n'amabati ndetse n'ibyuma biyafashe gusa, rikaba yashyizweho icyapa gisize ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, yanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agaragaza uburyo bwo kwishyura kuri telefoni.

Akazu gasize ibara ry'umuhondo gakozwe mu cyuma, kakaba gahagazweho n'abantu batanu bategereje guhabwa serivisi n'umukozi ushinzwe gutanga serivisi zijyanye n'iby'itumanaho, bakaba bari impande y'umuhanda ndetse n'inzu ifite urukuta rw'amatafari ahiye.

Icyumba cy'inzu kiri mu biro byakirirwaho abantu bakabatigasize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'icyapa cyanditseho izina ry'isosiyete ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza abashushanyijeho abakobwa babiri bafite telefoni imbere yabo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'gikapu cy'umukara, ari imbere y'akazu gasize ibara ry'umuhondo kafunguye amadirishya atatu akozwe mu byuma, hakaba harimo umukozi ubishinzwe utanga serivisi z'itumanaho, impande ye harimo n'undi mugabo wambaye agapira k'iroza wategereje ko bamuha serivisi.

Abamotari bane bicaye kuri moto zabo ziparitse bakaba bahetse udusanduku tune dusa ibara ry'icnga, imbere yabo hariho umuhanda wa kaburimbo hakurya hariho igikuta kinini cy'urupangu gisize ibara ry'umuhondo n'imbere harimo ibiti ndetse n'inzu y'amagorofa abiri.

Ikinyabiziga cya moto gisize ibara ry'umutuku cyashyizweho agasanduku k'icyats, k'impande enye kanditseho amagambo vuba vuba, giparitse hejuru y'amatafari y'ikigina impande hari umuhanda wa kaburimbo uri mu mirongo y'umuhondo irombereje.

Ikigo gishinzwe gutumiza ibicuruzwa mu mahanga, kikaba gikore i Kigali, aho kiri kwerekana serivisi gitanga, bikaba biri mu rurimi rw'icyongereza, munsi y'aho hariho nimero za telefoni ebyiri zishobora guhamagarwa.

Umumotari uhagaze ku muhanda w'igitaka, ari gutanga agasanduku gasize ibara ry'ubururu, umuntu wambaye agapfukamunwa bari imbere y'akabaraza k'igipangu gisize ibara ry'icyatsi kijimye, impande hariho urukuta rw'amatafari asize ibara ry'igitaka.

Isosiyete yitwa ishyo iri kwamamaza ibicuruzwa byayo, ikoresheje ifoto iri kugaragaraho umugabo ndetse n'umwana, bakaba bahagararanye, imbere yabo ari akameza kateretsweho udusahane turiho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Umumotari wicaye kuri moto ye, ikaba hateretswe telefone imbere ye ndetse n'inyuma hari agasanduku kagizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'icunga, kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, impande hariho ibiti by'amashami menshi.

Ishusho yo kwamamaza yashyizweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza ko inzu yishyurwa ibihumbi bibiri by'amadolari buri kwezi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba irimo umugabo uri iruhande rw'akabati gasize ibara ry'ikigina.

Inzu igizwe n'amabati y'umukara ndetse n'inkuta z'ikigina n'amarembo y'inzu ateretswemo amatafari asize ibara ry'umutuku n'umukara, ikaba igura miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda, iherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Icyumba cy'inzu kirimo umukobwa wegereye intebe zo kwicaraho, hagati ye n'undi mugabo hari ameza asize irangi ry'umukara ndetse n'inkuta zisize irangi ry'umuhondo byashyizweho amashusho ndetse n'utubati tubikwamo ibyo kurya.

Umugabo ndetse n'umugore bahagaze bombi hagati yabo hakaba hariho intebe zo kwicara aho zisize ibara ry'umukara ndetse n'akameza kateretsweho icyuma kirukana imibu gasize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu inyuma y'umugabo hariho akabati gakozwe mu mbaho karimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inkuta z'urupangu zigizwe n'amatafari y'ikigina, bikaba bikikije inzu ifite akabaraza kagizwe n'amatafari y'ikigina, ndetse n'imbuga yashyizweho ibyatsi. Ikaba ikikijwe n'amatafari y'umweru ndetse n'umukara. Iherereye i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Ishusho iri kwamamaza inzu igizwe n'amabati y'umukara ndetse n'inkuta z'umweru ikaba ifite akabaraza kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse n'umutuku ikaba iherereye Kigali kanombe igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ishusho iri kwamamaza inzu y'amagorofa menshi, ikaba igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ikigina, umukara ndetse n'amatafari ahiye, hejuru yaho hariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza ko akumba kamwe k'inzu kaboneka ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda.

Inzu nini ifite akabaraza kagizwe n'amatafari y'ikigina, umukara ndetse n'iroza kakaba gahagazwemo n'umuntu wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kwamamaza inzu iri ku ruhande rwe, ikaba icuruzwa miliyoni mirongo icyenda z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu igizwe n'amabati y'ubururu, inkuta z'umuhondo ndetse ikaba irimo ibyumba bine n'ubwogero butatu ndetse n'akabaraza kagizwe n'amatafari y'ikigina kari imbere y'urugo, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu buri kwezi ndetse ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe.

Akameza karekare kashyizweho ishashi, kakaba kariho inyanya, ibitunguru, intoryi, amashu, karoti ndetse n'ibindi biribwa, impande zabo akaba ariho abantu bari kubyitegereza, harimo n'abakiriya.

Inzu iberamo ubucuruzi bw'ibiribwa ari ryo soko, rikaba ririmo umugore ufite agafuko gasize ibara ry'ikigina ari kugenda atoranya ibitunguru biri impande ye ndetse n'amacunga, impande ye hari akuma gatwarwamo ibyo yahashye.

Ishusho yamamaza isosiyete y'Ejoheza ikaba yanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda agira ati "uzakomeza kubaho neza no muri pansiyo," Ikaba iriho umugabo ndetse n'umugore bambaye ibitenge bahagararanye bafatanye amaboko.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'icunga ikaba iri kugaragara ababyeyi bambaye imikenyerero bamwe bakaba bafite abana mu ntoki bicaye ndetse hakaba handitsetsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda agira ati: "ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza mituweli."

Ishusho yo kwamamaza ikaba iri mu ibara ry'ubururu, ishushanyijeho ikimenyetso gisize ibara ry'icyatsi ndetse munsi yacyo hariho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda agira ati: "Mituweli ubwisungane mu kwivuza."

Abagore batatu ndetse n'umugabo umwe, bari mu kazi, begereye akameza gasize ibara ry'umweru kateretsweho mudasobwa kugira ngo babashe kwakira, umuntu uri imbere yabo wambaye agashati k'amabara atandukanye, inyuma yabo hariho icyapa gisize ibara ry'umweru, cyanditseho isosiyete y'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda.

Umusore uhagaze wambaye agapfukamunwa, akaba afite ikarita nini isize ibara ry'umweru, ikaba yanditseho izina ry'isosiyete ebyiri z'ubwishingizi ndetse n'ikigo gishinze ubwiteganyizwe mu Rwanda, munsi hariho amagambo ari mururimi rw'ikinyarwanda agaragaza ko uwo musore yitwa umucyo william, akaba agiye guhabwa miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u Rwanda.

Ishusho iri kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa ejo heza, ku ruhande hariho umubyeyi wambaye igitenge ari guseka ndetse imbere hari amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda agira ati," Nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye n'ejo heza."

Iduka rigizwe n'igisenge kirimo amatara menshi atanga urumuri ndetse n'utubati turerure tw'ibyuma, dusize ibara ry'umutuku tukaba twashyizeho ibikoresho bitandukanye biri mu mashashi ndetse n'udukoko, kaba ndetse ngizwe n'amakaro y'umweru.

Umugore wambaye agasengengeri kagizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, akaba afashe akuma katwagwamo ibyo guhahiramo, impande ye hariho utubati dukozwe mu byuma turimo ibicuruzwa bitandukanye birimo udukombe ndetse n'ibyo kurya bitandukanye.

Inzu ikoreramo ubucuruzi, igizwe n'akabati gakozwe mu byuma, gasize ibara ry'umukara kakaba kateretsweho amavide ndetse n'amacupa arimo fanta z'amoko atandukanye ndetse n'udukarito tw'amabara atandukanye turimo imitobe.